Icyapa cyamamaza hejuru y'icyapa hamanitseho udutara tune dukurikiranye ku kumurongo, iburyo bw'icyapa hariho umusaza n'umukecuru b'abazungu, ibumoso bw'icyapa handitseho ubwishingizi bw'abashyitsi.

Abakozi bo mu biro ibumoso hari umugabo w'igikara, ufite agasatsi gakeya, wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru, ikoti ry'ikigina, hirya ye hari umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umukara hirya yabo hari icyapa cyamamaza.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri ,inote handitseho banki nkuru y'u Rwanda, hariho nimero ziranga inoti hakaba hashushanyijeho umunara muremure w'itumanaho .Ku noti hasinyeho abayobozi babiri bakuru ba banki nkuru y'u Rwanda.

Raporo y'ubucuruzi yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nabiri y'ikigo cyitwa santi purinta, kuri raporo hagaragaraho uko icyo kigo cyakoresheje amafaranga guhera ibihumbibiri na makumyabiri rimwe mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri, ibihumbibiri na makumyabiri na rimwe.

Inzu igurishwa iba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ikaba ifite amadirishya atatu manini n'umuryango munini ifite urubaraza rusashemo amabuye y'umweru n'umutuku ifite ibikuta bisize amabara y'umweru n'icyatsi n'amabati manini.

Inzu y'ubucuruzi m'ibara ry'ubururu, umuhondo yanditseho amagambo rebanoni hoteli utuyira tunyurwa mo n'abanyamaguru ibidukikije birimo indabo ndetse ibara ry'umukara n'umweru.

Umuntu w'igikara wambaye ishati irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara; yambaye isaha ndetse n'impeta, yambaye ipantaro y'umukara. Ari kubara inote z'amadolari y'Amerika iruhande rwe hateretse izindi note nyinshi.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina afite icyuma ndangurura majwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ahagaze impande y'akameza k'ikirahure kateretsweho terefone ndetse n'udutabo, ari imbere y'abantu bicaye, inyuma yabo hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Inzu igeretse. Ku gice cyo hasi cy'inzu hejuru y'umuryango hariho icyapa gisa ubururu cyamamaza cyanditseho ahazaza ho kuvunja. Munsi y'aho gato handitseho kugurana amafaranga. Hirya y'aho handitseho kohereza amafaranga.

Intebe yagutse ikoze mu mifariso, hariho udusego dutatu iburyo, ibumoso ndetse no hagati, imbere yayo hari akameza gakoze mu giti, hejuru y'akameza hariho igitabo kirambuye.

Inzu yagutse nini igeretse rimwe ifite ibara ry'icunga imbere yayo hateye indabyo zitandukanye zimwe ziri mu mabumba yabugenewe izindi ziteye mu murima.

Isahane iriho ibyo kurya by'amoko atandukanye birimo inyama, ifiriti, isosi ndetse n'imbuto. Munsi hari urutonde rw'amoko y'inyama ashobora kuboneka, atetse mu buryo butandukanye n'ibiciro byabyo ku ruhande.

Umugore w'imibiri yombi wambaye ingofero y'umweru umupira w'umweru isaha ndetse n'isengeri y'iroza iruhande rwe haranditse, kurikira inzozi zawe n'inguzanyo itazigamye ubone agera kuri miliyoni mirongo itatu z'amanyarwanda na banki y'abaturage y'u Rwanda, ku nguzanyo itazigamye uyu munsi.

Iduka rigurisha imyambaro n'imitako bya gakondo; mu iduka mo imbere hamanitsemo ibitenge byo kwambara, imitako yo gutaka ndetse hahagazemo n'abantu benshi.

Akazu gato k'umuhondo kariho ibyapa byamamaza serivisi za emutiyene mo imbere mu kazu harimo umukozi ushinzwe kugurisha izi serivisi za emutiyene wambaye akajiri k'umuhondo hanze y'akazu hari umukiriya wambaye ikote ry'umutuku, ipantaro y'kigina iri mu tubaro duto tw'umweru.

Abagore babiri bahagaze mu iduka rito ricuruza ibyo kunywa, umugore umwe ni inzobe ni munini, yambaye ikote ry'umweru ndetse yambaye n'ikanzu y'umukara ishushanyijeho indabyo z'umweru, undi mugore yambaye akagofero k'umuhondo gafite akabara k'ubururu hasi, yambaye umupira w'umuhondo ndetse afashe ku kapa bishyuraho bakoresheje telefone ngendanwa.

Urubuga rwo kwamamaza rwitwa yobolandi byanditse mu magambo atukura munsi y'aho handitseho ubucuruzi bwo kuri murandasi mu Rwanda busa aho buri gukura vuba kandi byihuse byanditswe ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Inzu nini igeretse rimwe amatara yayo ni umukara, isize amarangi y'umweru n'roza, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi mu mujyi wa Kigali mu Rugando hafi ya komvesheni senta.

Inzu nini eshatu zikurikiranye kumurongo umwe, ku nzu ya mbere amadirishya yombi n'umuryango bisize amarangi y'umukara, hejuru yabyo handitseho ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga. Ku gice cyo hepfo cy'idirishya hateretse akadobo kagenewe gushyirwamo imyanda, hagati mu muryango hahagaze umumama uhetse umwana.